Urujya n'uruza rw'abantu bari mu myitozo ngororamubiri bari mu muhanda hagati, ibyapa bibiri bijyanye n'amategeko y'umuhanda, amashyamba, amapoto, insinga z'amashanyarazi, amatara.

Ikiza cy'amabara y'umukara n'umuhondo gikoze murere, kiri ahantu hasa h'umuhondo gifite agasongero keza.

Inzu iteye karabasasa, umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu ari gushyira umuriro muri kashi pawa, yambaye itaburiya yanditseho umubare magana ane mirongo ine n'icyenda, yambaye ingofero yabugenewe y'abakozi.

Ikiro cyiza gitondagiye kugera mu kirere, gifite inkingi enye zose zisa, amabara n'umuhondo n'icyatsi, heri udutoya ndetse n'inkingi nini yubakishijwe na senyenge n'ibihuru hari amashyamba, hari n'intoki n'imisozi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo wo hagati, n'inkengero z'umuhanda mu kayira k'abanyamaguru, umunyamaguru uri kugenda, ibyatsi biri hakurya y'umuhanda.

Ndabona inyubako nziza, ndimo ndabona icyapa, inyubako nziza bacururizamo imiti, nyuma ndabona ibyapa bitandukanye harimo n'indi nyubako igeretse rimwe, nkabona n'aho bacururiza moto, ndimo ndabona amapave, ndimo ndabona inzugi nziza, ndimo ndabona ibiti, ndimo ndabona ibyatsi, ndimo ndabona na moto.

Ndabona igicucu cy'umuntu ndimo ndabona imihanda, aho imihanda ihurira, ndimo ndabona moto iri gukata ikorosi, ndimo ndabona ibyatsi ziri mu nkengero z'umuhanda.

Abamotari babiri hakaba n'abandi baparitse batatu harimo amazu, ibiti, amapoto, insinga z'amashanyarazi, sitasiyo, imodoka, urujya n'uruza rw'abantu.